Umugabo uhagaze imbere akaba afite indangururamajwi imbere ye ari gutanga ikiganiro, nk'uko bigaragara rero aha ngaha habereye ikiganiro mpuzamahanga cyita ku buzima ndetse n'uko babubungabunga.

Abajyanama b'ubuzima abaforomo ndetse n'abaganga, bari kumwe n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima, ni umuzungu wambaye amarinete yambaye ikote ry'umukara ishati ndetse na karuvati, yabahuguye ku bijyanye n'ukuntu bateza imbere ubuvuzi.

Umuhungu wunamye ari gukaraba intoki akarabira mu ndobo, ari kumwe n'umwana ufite ibinika mu ntoki bigaragara yuko amuzaniye amazi cyangwa se akaba ari kumusukira ku ntoki. Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ni uburyo bwiza bwo kugira isuku.

Abantu benshi bari ku mugezi barimo baravoma. Nkuko bigaragara nyine, bari kuvomesha indobo abandi bari kuvomesha amajerekani. Robine ni ebyiri ariko bose bigaragara yuko bari kuvoma ndetse babyigana, bigaragara ko bakeneye amazi.

Ibiganza biteze kuri kandagira ukarabe ari koga intoki kugira ngo arusheho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda ukabije ndetse agire n'ubuzima bwiza muri rusange, iyi ni imyanzuro yafashwe ku rwego mpuzamahanga kugira ngo buri muntu wese agire ubuzima bwiza.

Ni ikigonderabuzima cya Mayange, hanze hari abakozi bacyo bambaye impuzankano ndetse n'amakarita agaragaza ibyo bakora, barimo baraganirizwa n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, biragaragara ko bishimye kandi banyuzwe na serivisi bari kubona.

Abantu bakoze uruziga ku meza. Ni mu cyumba cy'inama bicaye hamwe, urabona ko bari kuganira kandi bungurana ibitekerezo b'ingirakamaro. Igihe cyose turi mu nama bitugirira umumaro kandi bikadufasha kwiteza imbere ndetse tugahugurana tukagera kuri byinshi.

Ibyombo, amasahani, utubase, amasahani n'ibikombe n'utubido biri hanze ku gatara bivuze ngo babishyize hanze ngo akazuba kabicaneho byumuke mikorobe zipfe, iyi ngiyi ni imwe mu nzira zitandukanye zikoreshwa mu buryo bw'isuku mu gusukura ibyombo, ni byiza kandi bigira umumaro.

Akanama gashinzwe ubuzima ku Isi, kanzuye ko buri muturage wese agomba kugira ubuzima bwiza, bukabungabungwa n'inzobere zabihuguriwe kandi zikomeza kubihugurirwa uko bukeye n'uko bwije, bityo ubuzima bw'abaturage bugasigasirwa.

Umwana mutoya ateze igikombe kuri robine amazi arimo aramanukamo, indi robine ibyegereye amazi ari kumanuka ameneka hasi, ni byiza kunywa amazi meza tukanywa amazi atetse kandi asukuye, bigirara umumaro ku mubiri wacu.

Ni abanyeshuri bari mu kigo cy'amashuri, bambaye impuzankano barasa neza cyane rwose, berekana ibiganza byabo, begereye robine bigaragara yuko bamaze gukaraba, abandi hirya gatoya barimo barakina bigaragara ko bishimiyemye rwose. Gukina ni byiza kandi kwiga ni ubuzima kubanyeshuri bacu, abana batoya mureke tubafashe babashe kwiga neza.

Arimo aravoma ku mugezi nk'uko tubibona, ni amazi meza cyane, hateretse amajerekani atatu n'indi ya kane, iri kuri robine arimo aramanukamo amazi, dukoreshe amazi meza, bigira inyungu.

Ni abanyeshuri bishimye cyane, bamanitse ibiganza hejuru. Bambaye impuzankano z'ishuri. Inyuma yabo hari abandi bantu bakuru na bo bishimanye na bo. Kandi na bo bazamuye ibiganza nk'uko bigaragara.

Aha ni mu kigo nderabuzima hari abantu bicaye baje kwivuza, umwe arahaguruka akajyana agakayi ke bakamukwera ifishi, hari abari kubakira imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa aho babareba muri system.

Abazungu ndetse n'abirabura, bateraniye ahantu hamwe, ku meza amwe, imeza yabo iteretseho amakayi, ndetse n'amacupa na za Mudasobwa, bigaragara y'uko bari mu mbwirwaruhame, barayikurikiye baratuje, kandi urabona ko ariho bahanze amaso.

Umwana uri ku mugezi, imbere ye hateretse indobo y'ubururu arimo arafungura amazi akagwa ari koga intoki kandi koga intoki ni byiza, ni isuku kandi bituma tugira ubuzima bwiza kuko twirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abana bato cyane bambaye impuzankano y'ishuri bari kunywa amazi bayanywera kuri robine inyuma yabo hari ibimera bigiye bitandukanye aya ni amazi meza leta yegereje abaturage kugira ngo babashe kubona amazi yo kunywa ndetse n'ayo gukaraba asukuye.

Abaforomo, abaforomokazi ndetse n'abaganga bicaye ahantu hamwe, imbere yabo ku meza hari amakarito y'imiti. Bigaragara nk'aho bari mu mahugurwa cyangwa se inama, aho ubona bose bakurikiye kandi bakaba bishimye.

Abamama bateraniye ahantu hamwe bari kugenda bungurana ibitekerezo ku cyateza imbere ubuzima, bicaye mu nzu nziza cyane harimo amarido y'ubururu ndetse ku nkuta zubakishije amatafari, nkuko tubibona bose bari kuganira.

Abana batatu barimo barakaraba intoki, nk'uko bigaragara kandi barabyishimiye cyane rwose, reka dushimire n'ababyeyi babo babatoje uno muco ndetse dushimire n'abarezi n'abandi bose baba barabagizemo uruhare kugira ngo babashe gukunda no koga intoki babigire akamenyero kubera ko ari umuco nagira buri wese, ni byiza kandi bigira umumaro mu buzima.

Ni abantu bane. Ababyeyi babiri bateruye abana n'uwa kane wicaye ndetse n'umuganga. Hagati yabo hari umunzani ugaragaza y'uko baje gupimisha abana ngo barebe ibiro byabo, uko ubuzima bwabo buhagaze.

Umuntu wambaye agapira k'ubururu akaba yambaye paji mu ijosi yambaye n' ijire akaba ari kugenda aha abantu impapuro kugira babashe gusobanukirwa ukuntu bakwirinda indwara ndetse n'uburyo bagira ubuzima bwiza .

Unicef for every child. Ni amagambo yanditse mu ibara ry'umweru naho aho yanditse hakaba hasa ubururu. Ni amagambo y'umuryango ushinzwe kwita ku bana ku isi hose.

Abanyeshuri barimo barakaraba intoki, kuri robine, bigaragara ko bambaye impuzankano, bafite isuku nyinshi. Koga intoki, ni byiza, bituma twirinda indwara zitandukanye, ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi cyane bigaragara y'uko bose bitabiriye ni aho abaganga bagiye kuvurira abaturage mu ngo z'abo abaganga bari kugenda babasuzuma umubyeyi aratambukana umwana maze umwana bakamutera urukingo.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, harimo abambaye amajire y'icyatsi kibisi ya proix rouge, bigaragara yuko bahuguwe kugirango babashe gusigasira ubuzima bw'ikiremwa muntu, ni byiza rero ko habaho abantu bakorera ubushake.

Umubyeyi uteruye umwana we, ni akana gato gafite imisatsi irimo amasaro, kakaba kambaye agakanzu k'umweru, hakaba hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba afite urukingo aho ari kurutera uyu mwana kugira ngo ubuzima bwe buzira umuze.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bose bagiye bafite mudasobwa imbere yabo. Ndetse hari umugabo uhagaze imbere yabo, ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari we uri kubagezaho ikiganiro. Aho hari amagambo ari mu kabara k'ubururu, ariko yo yandikishije umweru, agira ati " Iri ni ihuriro mpuzamahanga, ryita ku buzima bw'umwana".

Umuganga ari kuvura akana gato cyane mama we agateruye, ibi rero byamaze kwigwaho maze ku isi hose banzura yuko abaturage by'umwihariko abarwayi bagomba kwitabwaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza, aha rero bakaba bitayeho.

Umwana muto w'umukobwa akandagiye kuri kandagira ukarabe. Iyi kandagira ukarabe ni indobo y'icyatsi kibisi, hakaba harimo amazi meza. Uyu mwana ari koga intoki nk'uko yabitojwe n'ababyeyi, isuku ni iya mbere kandi kugira isuku birinda umwana kurwara indwara ziterwa n'umwanda.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba harimo abantu baje kwivuza abaje kuvuza abana babo ndetse harimo n'umuforomo wicaye imbere, aho hatambuka umwe ku wundi akamwakira maze akamukorera ifishi imwemerera kwinjira mu isuzumiro.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara ndetse na congo, akandagiye ku giti kiziritse ku kajerekani amazi arameneka, ni kandagira ukarabe, akaba ari gukaraba intoki kugirango yirinde indwara ziterwa n'umwanda, hafi aho hari ikirabo cyiza cyane.

Hateraniye abantu benshi. Baratandukanye barasa neza cyane, bambaye imyambaro harimo abagore batwite harimo aba papa, harimo ababyeyi, harimo abasaza, harimo abasore, harimo abana ndetse n'abakecuru. Bigaragara yuko bitabiriye kandi baziye ku gihe.

Iri ni ivomero rusange, iri vomero ni ryiza cyane rirubatse rifite amarangi y'ubururu ndetse n'umweru, amagambo ariho yandikishije ubururu, hari ababyeyi baje kuvoma bamaze kuvoma batereka amajerekani yabo, maze babanza kwiyongera ku ntoki.

Ni abantu batatu bari kuganira bafite ibipapuro mu ntoki, ni abagore n'umugabo n'umwana mutoya, umugabo wambaye bote bigaragara nk'uko ari kubahugura kandi imbere ye harambitse impapuro, ni byiza guhugurana kandi tukagirana inama.

Ni abaganga batatu, umwe afite urushinge, ari kurutera umugabo bigaragara nk'aho akuze, witegereje neza ushobora gukeka ko ari urushinge rw'urukingo rwa Covid, bitewe n'uko bose bambaye masike, ibizwi nko kwirinda Covid cumi n'icyenda, n'ubwo atariho honyine bikoreshwa.

Utwana tune duto turi koga intoki, hasi hateretse ibasi umupapa ari kubasukira maze bagakaraba bishimye baseka, imbere yabo hari ibimera byiza. Isuku ni nziza niyo mpamvu tugomba kuyitoza abana.

Abantu benshi cyane bicaye mu nzu y'inama hari ababicaye imbere bari kubaha ikiganiro, inyuma y'abo bicaye ku ntebe imbere hari amagambo yanditse ahantu hari ibara ry'ubururu ariko yandikishije umweru, aho bagira bati ibiganiro mpuzamahanga ku bijyanye n'ubuvuzi ndetse n'uburyo twashoramo amafaranga.

Umwana muto cyane w'umuhungu yambaye agashati k'icyatsi kibisi, akaba ari ku ivomero rifite ibara ry'ubururu ndetse ririho utwuma turi kuzana amazi, ateze ibiganza ari koga intoki. Koga ni byiza niyo mpamvu abantu twese tubikora mu rwego rwo kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Ibiganza biteze ahantu hari kuza amazi, ari gukaraba kugira ngo yikureho umwanda maze naza kugira uwo asuhuza cyangwa se akaza kurya bitaza kugaragara nabi cyangwa se akaba yakwiyanduza indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi bicaye ku ntebe. Bahuriye mu nzu imwe nini cyane, hagati yabo harimo umubyeyi w'umumama arimo arabaganiriza, kandi bigaragara yuko ibyo bari gukora ari ingenzi.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, abiganje ni abambaye imipira y'umweru, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, aha rero bakaba basoje amahugurwa.

Iri ni ivomero ryiza cyane iriho amazi leta yegereje abaturage, hari umumama ndetse n'umupapa baje kuvoma hari n'undi mumama usa nkaho ari umu bosi, akaba ari kubavomera hari ibimera byiza cyane biri hafi aho abona ko ari ahantu heza.

Ni umuntu uri koga intoki n'ibiganza bibiri, yateze kuri robine amazi ari kumanuka ari meza cyane, ntabwo isura ye twabashije kuyibona, ariko koga intoki ni byiza, biturinda indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda, twihutire koga intoki kandi tubigire umuco.

Abajyanama b'ubuzima bari kumwe n'abaganga, bamaze guhabwa amahugurwa y'ibijyanye no guteza imbere ubuvuzi, bose bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari ibyapa bigaragaza igikorwa bari barimo. Iki gikorwa ni cyiza.

Abantu benshi biganjemo abakuze, harimo abasaza n'abakecuru n'abamama bakuze nk'uko bigaragara. Bafite amakaye mu ntoki, bigaragara yuko bari kwiga cyangwa bari guhugurwa ku bintu bitandukanye.

Aha habaye ihuriro ry'abajyanama b'ubuzima ndetse n'inzobere mu by'ubuvuzi, bari kugenda babasobanurira hasi hari amafishi agiye atandukanye, inyuma hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati ufite kamera uri kubafotora.

Abakobwa babiri bakiri bato, bari kwikorera indobo bamaze kuvoma ku ivomero ryiza cyane ryegerejwe abaturage, kugira babashe kubona amazi asukuye birinde uburwayi buterwa n'umwanda aba bakobwa rero barishimye cyane.

Ivomero bavoma amazi bisaba ko bapompa. Kuri robine hateretseho amajerekani atatu ndetse n'umwana uyegereye urimo uravoma. Naho aho bafata bapompa hari umumama urimo uramupompera ngo amazi azamuke. Hirya hari abantu benshi bahagaze bitegereza neza uko bari kuvoma.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba hateraniyemo inzobere zaturutse mu duce tugiye dutandukanye zije gusura ndetse no kugenzura imikorere y'abaforomo ndetse n'abaganga bakorera muri iki kigo nderabuzima.

Abasore n'inkumi bambaye utwenda dusa cyane twa orange bari gutera uturima tw'imboga ahangaha rero kugira ngo birinde indwara zikomoka kukubura imirire myiza mu rwego rwo kugirango abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ari ku mugezi ahetse umwana, ni umubyeyi arimo aroza indobo, afite n'imifuniko yayo nayo arimo arayoza. Tugire isuku, twite ku bana bacu kandi twite kuri buri kimwe cyose cyatera umwanda.

Turi ku mugezi, abantu benshi baje kuvoma ndetse bazanye n'ibyo bavomesha, hari amajerekani, hari amabase, bigaragara y'uko biteguye kuvoma kandi bari guhabwa amazi meza ndetse banyuzwe na serivisi bahawe, iriba riri ahantu hasa nk'aho hashashe.

Ni abantu batatu bari ku mugezi umumama n'abana babiri, arimo aravoma kuri robine ategereje ko ijerekani yuzura ngo ashyireho indi, twitabire gukoresha amazi meza ni isoko y'ubuzima bwiza kandi biturinda indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Ni ku muhanda muremure w'ibitaka mugari, hari ivomero barimo baravoma, iruhande rwaho hari umumama ari kumwe n'umwana mutoya, imbere y'ivomero hateretse ibintu byinshi bitandukanye, harimo amabase ndetse n'amajerekani, ivomero ni ryarindi bapompa amazi kugirango ngo azamuke, ni abantu babiri barimo baraya pompa.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bari kwifotoza, nk'uko bigaragara harimo aba mama ndetse n'abapapa, harimo n'abashinzwe umutekano bakaba bari bari kuganira ku mikore y'ubwonko, ndetse n'ubuzima bw bwo mu mutwe muri rusange.

Umugabo wambaye ikoti ndetse akaba ari imbere y'ahantu hari abakorerabushake, ahangahe rero uyu mugabo yunamye imbere y'ibirabo bigaragara ko yagize ikibazo cy'ihungabana ubwonko bwe bukaba butari gukora neza, bari kumwegera kugira ngo bamugire inama maze bamufashe.

Umukobwa ukiri muto kandi mwiza cyane yambaye agasengeri k'umukara akaba yambaye agapufi mu ijosi ndetse n'ipantaro y'ikoboyi yayikunje ari guseka cyane, nk'uko bigaragara ubuzima bwe ndetse n'imikorere y'ubwonko bwe ikora neza.

umusore wisize vedanjee mu maso, yambaye ibintu by'ibibirineti, yiziritse ibifuka byinshi cyane n'imyenda byacikaguritse, afite ikintu mu ntoki yise imbunda, uyu musore rero yahuye n'ihungabana ubwonko bwe ntibugikora neza ni byiza kuba bamufata maze bakamujyana kwa muganga.

Ni abantu babiri, umubyeyi uteruye umwana bigaragara yuko umubyeyi yishimiye umwana we cyane kandi n'umubebe na we bigaragara yuko yishimye, aranezerewe kandi ari kumwe na mama we.

Abamama, abasore abapapa ndetse n'inkumi, bari ahantu hamwe bari gufata ifoto bigaragara yuko bari bari mu mahugurwa ajyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe bakaba barangije, bakaba barimo bafata ifoto y'urwibutso.

Ni abantu batatu barimo baraganira, harimo babiri bigaragara ko bakiri batoya, n'undi umwe bikagaragara yuko ari umubyeyi ugaragara nk'ukuze, ariko bose bambaye udupfukamunwa bigaragara yuko bari mu gihe cyo kwirinda icyorezo.

Umusore wambaye ikabutura ndetse n'isengeri afite ibisatsi byinshi cyane kandi bisa nabi, akaba yicaye mu gipine, uyu musore rero akeneye ubujyanama kuko nkuko bigaragara ararwaye, uyu musore afite ikibazo mu mutwe.

Umusore wambaye igitenge agapira k'ubururu karimo uturongo tw'umweru, hasi yaharambuye ibitenge byinshi cyane abyicaraho yegamira urukuta rushaje yizirika amaguru, nkuko bigaragara uyu musore afite ikibazo cy'ihungabana ubwonko bwe ntabwo bukora neza.

Ni ababyeyi batatu n'umugabo umwe n'umwana umwe, bicaye mu mbuga mbese bahuje urugwiro, urabona yuko bafite urupapuro bigaragara nkaho bari guhugurana, bakikijwe n'insina ndetse n'ibiti biri inyuma yabo, biragaragara ko ari ku kazuba kubera yuko ibicucu byabo biri kugaragara.

Ni abantu batandatu, bicaye hanze, harimo abagabo babiri, umukobwa umwe, umwana n'abamama babiri, bari kuganira ndetse bigaragara y'uko bishimye rwose, ni umuryango ubayeho neza kandi ukundana.

Ni abana batoya bigaragara yuko bari mu kigero cy'imyaka itatu kugeza kuri itanu. Baragaragara neza, barimo baraseka barishimye cyane nkuko bigaragara mu maso yabo. Kandi ikindi bambaye neza, bamwe muri bo bambaye impuzankano bigana.

Umukobwa bigaragara ko asa nk’aho akiri muto, yubitse umutwe, yifashe mu gahanga, yagize ikibazo cy'ihungabana ubwonko bwe ntiburi gukora neza. Iki kibazo iyo kibaye ku bana bato nk’aba, baba bakeneye ubujyanama kugira ngo batiyahura.

Ikigo gishinzwe kwita ku barwayi bo mu mutwe, bishatse kuvuga ngo uyu mugabo ahagaze imbere yacyo, mu magambo make aha ngaha niho bamwe mu barwayi bivuriza, bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Umujyanama w'ubuzima amaze gupima umwana ari kwereka mama w'uyu mwana ibisubizo, aha rero akaba ari kumugira inama y'uko agomba kwita ku mwana we kugira ngo imikorere y'ubwonko bwe irusheho kugenda itera imbere maze akure neza ubwonko bwe butekereza kure.

Umumama wicaye ahantu mu kizu cyasenyutse ikidirishya cy'ibirahure kirafunguye, nk'uko bigaragara aricaye arigunze, afite ibibazo mumitekerereze ye ari gutekereza kure cyane, ubwonko bwe ntabwo buri gukora neza akeneye ubujyanama.

Umusore wahuye n'ikibazo cy'ihungabana arasara burundu, yambaye imyenda yacikaguritse mbese umubiri we uri kugaragara ari gusuhuzanya n'umusore, uyu musore ari kubona ikibazo uyu muntu yagize akaba ashaka kumugeza kwa muganga kugira ngo bamugire inama bamufashe akire rino hungabana.

Ni umuntu uri kubona igice kimwe cy'ijisho kiri kurira, afite agahinda kenshi cyane. Amarira ari mu maso nk'uko bigaragara ndetse umuntu wamubona wese yabona ko afite agahinda kandi kenshi.

Abanyeshuri benshi cyane, barimo barakina bazamuye ibiganza bambaye impuzankano z'ishuri. Abandi bitaruye abandi kandi mu kibuga cyabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Mbese bigaragara ko bari mu kigo cy'amashuri.

Ni abantu bari kuganira. Bahuje urugwiro. Harimo abakecuru, harimo abagabo bakuze. Harimo umukobwa ugaragara nk'ukuze, ariko mu gake. Kabamo n'umwana ukiri mutoya. Mbese ni umuryango ubona ko unezerewe.

Ababyeyi batatu bahagaze mu isambu, bafite udukoni dutatu buri wese inkoni, uri hagati muri bo afite umwana ndetse ari kumwonsa, biragaragara ko bishimye ndetse banezerewe, ahantu bahagaze.

Umu mama wambaye agapfukamunwa ariko wakamanuye ahetse umwana, imbere ye hakaba hari undi. Yicaye imbere y'imbabura iteretseho isafuriya ari guteka igikoma, nk’uko bigaragara rero ni ngombwa gutekera umwana igikoma cyiza, kugira ngo ubwonko bwe bukure neza.

Ni umugabo wambaye agatuza hejuru, afite agasumi ku rutugu, mu menyo yiwe yashyizemo akadodo gafatanyije mu ntoki ebyiri, bigaragara yuko ari koza amenyo akoresheje ako kadodo nyine. Ni byiza koza amenyo dukoresheje urudodo ni iby'umumaro kandi birahendutse.

Iki ni igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri, iki abaganga bakunze kugikoreraho amahugurwa, mu gihe bari kwihugura kugira ngo bamenye aho amenyo aba agiye ateye, kugira ngo umurwayi naza kwivuza bamenye iryinyo arwaye nta kwibeshya.

Umusore ukiri muto afashe urudodo mu maboko ye yombi ari kuwushyira mu menyo maze akayagorora, ari gushinyiriza akayagorora kuko muganga yamubwiye ko nabikora amenyo ye azagororoka, maze akaba meza nk abyifuza.

Umugabo uri koza amenyo akoresheje urudodo, biragaragazwa n'uko afite urudodo mu menyo, koza amenyo ukoresheje urudodo ni bumwe mu buryo abantu benshi bakunda gukoresha boza amenyo kandi budahenze.

Ni abaganga babiri n'umurwayi umwe, bari kumuvura bigaragara yuko ashobora kuba afite ikibazo cy'iryinyo cyangwa cyo mu kanwa kubera yuko ahantu bose bahanze amaso kandi bari kuvura ni mu kanwa.

Umusore uri kugaragaza amenyo ye. Amenyo ye ni meza cyane, arayoza kandi agacya. Nkuko bigaragara yagiye kwa muganga, muganga aramuvura maze amutegeka kuyagirira isuku, na we rero arabyuka akayoza neza cyane biragaragara ko asa neza.

Umusore uri kwigorora amenyo ari kuyagorora ndetse yirebaba, afite amenyo meza cyane y'umweru aho yambaye agapira k'umweru, ari kugerageza gukorera amenyo ye isuku nkuko muganga yabimutegetse, gukorera amenyo isuku ukoresheje ubudodo ni byiza.

Umuganga, umu mama ndetse n'umupapa hakaba hari undi mama w'umuzungu hari akana gato cyane kambaye ishati y'icyatsi kibisi kakaba gafite igikankaka kiriho amenyo bakaba bari kumusobanurira uko amenyo bayavura nawe aritegereje cyane.

Ni abana batoya b'incuke. Bafite uburoso mu kanwa, barimo bariborosa. Urabona ko babyishimiye cyane kandi babikunze. Gusukura amenyo ni byiza, ni ingenzi kandi biturinda indwara zigiye zitandukanye duterwa n'umwanda wo mu kanwa.

umukobwa mwiza cyane nkuko bigaragara afite indorerwamo mu ntoki akaba ari kurebamo, ari kureba amenyo ye ukuntu ari meza ndetse n'isura ye, akareba maze akanezerwa.

Umuganga ari kwihugura ukuntu ushobora kugorora iryinyo cyangwa se kurikura. Afite udukoresho abaganga bakoresha mu gihe bari kuvura iryinyo akaba ari kubyigira ku gipupe gifite amenyo ahengamye, aho muganga abanza kwiga kugira ngo avure umurwayi neza.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, afite urudodo mu kanwa rw'umweru, bigaragara yuko ari kurwogesha amenyo, koza amenyo ukoresheje urudodo ni bumwe mu buryo budahenze kandi butuma amenyo yacu acya.

Umugabo ari muri dushe bigaragara ko avuye koga, arimo aroza amenyo yifashishije urudodo, koza amenyo dukoresheje urudodo, ni bumwe mu buryo buhendutse kandi budufasha kugira isuku mu menyo.

Abana bato bambaye impuzankano y'ishuri, bafite uburoso bw'amenyo, ndetse bashyizeho umuti w'amenyo, bari koza amenyo. Buri wese afite agakombe mu ntoki karimo amazi, ari bwifashishe yiyunyuguza mu kanwa.

Umukobwa uri muri siporo yambaye agasengeri k'ubururu, ari kugorora amaboko, umugongo ndetse n'amaguru. Siporo ni ubuzima, niyo mpamvu tuzikora buri munsi kugirango ubuzima bwacu burusheho kumera neza. Nawe utazikora ugomba kuzikora kugirango umere neza.

Ni abantu batatu, utwana tubiri dutoya n'umusaza umwe ukuze, bicaye hamwe barimo baraganira mbese barimo bararya na biswi kandi urabona yuko rwose ntakibazo bafite.

Ni abantu babiri barimo baragenda mu muhanda rwose. Umwe afite agakapu mu ntoki kandi ahetse igikapu, undi afite imbago za zindi zitoza abantu kwiga kugenda. Urabona yuko arimo aragenda agerageza kandi yabyishimiye rwose.

Umugabo bigaragara yuko akuze yambaye agapira k'ubururu ndetse afite akantu kagorora imitsi mu ntoki, hari umuforomokazi wambaye impuzankan y'abaforomo uri kugenda amufasha kugorora ukuboko gake gake maze uyu musaza akishima.

Umusaza bigaragara ko ashaje, yambaye amarinete ndetse ari kumwe n'umusore, bari gusoma igitabo bose bagaseka. Imbere yabo bose hateretse udukombe tw'umweru, biragaragara yuko bari bari kunyweramo icyayi.

Umukecuru bigaragara yuko ashesha akanguhe afite indangururamajwi y'umutuku mu ntoki, akaba ahagaze imbere y'abantu ariko tutari kureba bigaragara ko ari kubaganiriza, hirya hari imodoka ndetse hari n'ipoto y'amashanyarazi.

Umuganga ari kumwe n'umubyeyi bigaragara nk'aho ari mukuru, bose batumbiriye amaso mu gitabo ndetse bigaragara yuko bari kumwe mu bitaro, muganga yiteguye kuvura umurwayi kandi biragaragara yuko umurwayi yahawe serivisi nziza.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu ihema ririmo abantu benshi cyane, nk'uko bigaragara aba basaza ndetse n'uyu mukecuru bose bambaye imikenyero, bakaba bishimiye kuba bari kumwe n'abandi turi kubona ko habaye ibirori.

Umusaza bigaragara ko ashaje cyane yambaye amarinete ndetse n'umupira w'amaboko maremare, afite imvi umutwe, hakaba hari umukobwa umuri inyuma uri kumusunika, uyu mukobwa rero akaba ari kumusajisha neza.

Ni muganga ari kumwe n'umubyeyi ukuze, arimo aramuha imiti, kandi urabona yuko nawe ari kugenda ayakira mbese bigaragara yuko agiye kuyinywa, kandi na muganga yabyishimiye, kandi akomeje kumwitaho, ubuvuzi ni bwiza, tubyiteho kandi tubikore neza.

Iyi n’inyubako y'ivuriro harimo umusaza uri kumwe n'umusore, bakaba bari gukora siporo. Inyuma yabo har’utubati, inkuta zirih’irangi ry'umweru, hasi hasa umweru ndetse bari gukurura umugozi bakora siporo.

Umusaza bigaragara yuko ashaje, aryamye mu buriri kwa muganga, imbere ye hari ibyuma biri kumupima ndetse bikamwongerera umwuka, hari umuganga umuhagaze imbere wambaye impuzankano y'abaganga, uyu muganga akaba ari kumusuzuma amwitayeho kugira ngo arebe ko yakira.

Ni umubyeyi ugaragara nk'ukuze. Uwo benshi dukunda kwita umukecuru. Arimo arakora siporo, biragaragara yuko anezerewe, kandi azikora neza, bitewe n'uko mu maso yiwe, agaragaza kumwenyura.

Abantu babiri bari kuganira. Bigaragara ko bahuje urugwiro. Umwe ni umuganga, undi ni umukecuru ugaragara nkaho akuze cyane.

Umugabo yicaye areba hepfo. Yambaye ishati y'amaboko maremare, yambaye ipantaro y'umukara, afite isaha mu kuboko yambaye. Bigaragara ko ari za saha zigezweho. Bakoramo ibintu bitandukanye, atari ukureba isaha gusa.

Aha ni kwa muganga nkuko tubibona, turabona igishushanyo kigaragaza ibyemezo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kiba cyafashe, hari abagabo ndetse b'inzobe hakaba harimo naba mama b'abazungu bari gufata imyanzuro ku bijyanye n'ubuzima.

Inzobere mu buvuzi bw'amenyo zegereye abaturage kugira ngo babasuzume, hari abaturage bari ku murongo aho bavurirwa ni mu ihema risa umweru, bari gutonda umurongo hakaza umwe umwe yahagera akicara maze bakamusuzuma.

Abantu benshi, bateraniye ahantu hamwe. Bicaye ku ntebe, baratuje cyane; harimo aba mama n'abagabo, bambaye amakoti y'umukara ndetse n'umweru, bigaragara yuko biteguye kumva imbwirwaruhame.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bicaye ahantu hamwe bari kumwe n'ababyeyi bigaragara uko bicaye muri salo bakaba bari kugenda babaganiriza ndetse bagafata n'ingamba ku bijyanye n'ubuzima bwabo kugira ngo babashe kuburinda ndetse no kubusigasira.

Abantu batandukanye, bose bari kwita ku buzima. Aho bafashe ingamba zo kujya bakora ibishoboka byose kugira ngo birinde icyahungabanya ubuzima ndetse n'imibereho. Bamwe bari kubaka, abandi bari kuvura, ndetse n'abandi bari guhinga.

Abasore babiri bambaye amakoti y'umukara, amashati y'umukara ndetse na karuvati z'umukara. Bose bicaye hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso. Nk'uko bigaragara bari bari gutanga amahugurwa ku bijyanye no kwita ku bantu ndetse babaha ubuzima.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga, harimo abaganga bambaye impuzankanosi hasi ndetse no hejuru, bambaye uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa, nkuko bigaragara ahangaha niho babagira abarwayi maze bakabasha kubavura.

Leta y'u Rwanda yiyemeje guteza imbere ubuvuzi, ubuhinzi, ubwubatsi ndetse n'ikoranabuhanga, ibi bikaba bikusanyirije mu gishushanyo kimwe kigaragaza icyerekezo cy'u Rwanda ndetse n'ubufatanye mu rwego rwo kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza.

Umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo yamanuye agapfukamunwa akaba yambaye n'akagofero mu mutwe, yafunze igipfunsi aravuga ngo ku mbaraga zacu turashoboye mu Rwanda, aha rero abaforomo bacu barashoboye kandi batwitaho.

Ni abanyeshuri benshi, barimo baragenda mu muhanda bambaye impuzankano barasa neza cyane urabona ko ari benshi rwose mu muhanda, bafite icyapa bagenda berekana kivuga ngo rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru rwanda, irinde virusi itera Sida ipimisha uyu munsi mu magambo make barashishikariza urubyiruko kwipimisha no kwirinda virusi itera Sida.

Abantu bahagaz. Harimo: abagore n'abagabo. Bigaragara yuko bari imbere y'ikigo cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, asomeka ati: ''Isange One Stop Center, Kabutare...

Inyubako nziza cyane y'ivuriro hasi turi kuhabona intebe aho ziteretse aho bakirira ndetse hari n'ameza, hakaba hari isima inkuta zubatse neza kandi zirakomeye ziriho irangi ry'umweru aha rero ni mu ivuriro rigezweho.

Ni abaganga; bambaye imyenda y'akazi baripfutse ahantu hose, mbese bigaragara yuko ari abaganga bashinzwe kwita ku barwayi barwaye indwara z'ibyorezo, kugira ngo batabasha kwandura. Bityo bahitamo kwambara imyenda ibakingira umubiri wose. Ni icyumba gisa neza cyane, kandi bigaragara ko bita neza ku barwayi.

Inyubako nziza cyane nk'uko bigaragara, ifite akayira k'abanyamaguru gashashemo amapave, ifite jaride nziza cyane iteyemo indabo ndetse na pasiparumu, kandi ni inzu nziza cyane bitewe n'uko ntabwo ari inzu imwe ahubwo ni inzu nyinshi zigiye ziri ahantu hatandukanye ariko mu kigo kimwe, iyo uhitegereje ubona ari ahantu hasa neza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubona indabyo nziza cyane hafi aho tukabona urukuta rwubatswe n'amabuye, iyi nyubako ifite inkuta ziriho irangi ry'umweru, hasi mu tuyira tujyayo hasashe amapave iyi nyubako ni iy'ibitaro bya Nyarugenge.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ni ndende, ikaba iriho ibirahure by'umukara uturange twa oranje, hasi hasashe amapave harimo ubusitani bwiza ndetse harimo n'igiti gitanga umuyaga aho umuntu aje kuhivuriza abona akayaga.

Icyumba cyiza cyane cyo mu bitaro mbese mu magambo make ni kwa muganga mu bitaro indani, harimo ibitanda byiza cyane bya kijyambere, ibitanda bigezweho kandi hariho n'akameza ni ahantu umurwayi yakwivuriza akamera neza bakamwitaho mu buryo bwiza cyane.

Mu kigo cy'amashuri hateretse akuma kariho udutebe tune, iyo witegereje neza ubona ari udutebe tuziritse ku minyururu bivuze ngo abana baraza bakicaraho, abandi bakabasunika bagafata ibyishimo biturutse ku cyo twakwita umunyenga.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abantu babiri nk'uko bigaragara, umwe ni umuganga undi ni umurwayi w'umwana w'umukobwa ukiri mutoya ariko atari cyane, tugenekereje ari nko mu myaka cumi nine cumi n'itanu tugereranyije.

Iduka ricuruza amarinete. Bigaragazwa n'amarinete menshi cyane, agaragara muri rino duka. Mbese ushaka rinete z'ibirahure bibonerana, biroroshye cyane kuza bakaguha, bitewe n'uko ni rinete nziza z'ubwoko butandukanye, nk'uko bigaragara.

Umugabo wicaye munsi y'igiti kinini cyane ari ahantu heza cyane hagaragara nkaho ari hejuru ,ariko na none hubakishije amabuye ,yicaye yitaruye abandi kandi yicaye wenyine.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba harimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe bikaba bigaragara ko bari mu mahugurwa. Bari guhugurwa ndetse nk'uko bigaragara barabyishimiye kuko ubuzima nibwo bwa mbere.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo abantu benshi cyane bagiye batandukanye, tukabona imodoka iparitse hanze ndetse tukabona n'icyapa kiri ku ruzitiro, iyi nyubako ni ndende cyane isize amarange y'umuhondo, ikirere kirasa ubururu ndetse n'umweru.

Ni ibitaro byiza cyane birasa neza cyane, harimo intebe, harimo ibitanda arimo utubati ndetse arasukuye rwose biragaragara yuko hasa neza kandi hubakitse mu buryo bwiza kandi bushyitse ni umuntu wese wakwifuza kuhagera ndetse yahishimira.

N'inyubako y'ibitaro byita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, ifite amarangi y'umuhondo ndetse n'amadirishya meza cyane ifite ikirere cyiza cyane ubona ko gisa neza, ntabwo twabihakana tubivuze gutyo kuko n'uwashaka kunyomoza yababeshye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo amakaro hasi, hejuru hariho parafo zikoze mu mbaho zisa kake ndetse n'umweru iyi nyubako ni nziza cyane ndetse nk'uko bigaragara ivurirwamo abantu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ifite inkuta zisiranye ry'umweru, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha mu gihe bari gusuzuma abarwayi, nk'uyu muganga urimo yambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, ari imbere ya mudasobwa ari gusuzuma.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo uburiri bushasheho ishuka y'icyatsi kibisi, tukabona hariho ibyuma bigiye bitandukanye biri hejuru, hasi hari amakaro ku nkuta hari irangi ry'umweru nk'uko bigaragara rero iri ni ivuriro.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe ni mu nyubako y'ivuriro, hari abantu batatu bari imbere yabo bakaba bari kubaganiriza, bari kugenda babasobanurira neza ku bijyanye no kwirinda uburwayi by'umwihariko ubutegwa n'isuku nke.

Inyubako y'ivuriro, ifite igisenge cy'ibyuma. Hakaba harimo amatara menshi. Hasi hari amakaro. Ku nkuta hagiye hariho ibyuma. inzugi ni ibyuma. Ahangaha rero ntiwamenya ikihakorerwa. Kuko ni sale.

Ni inyubako nziza cyane, ni ibitaro bivura amaso, hejuru hariho icyapa cyanditseho amagambo atatu mu nyuguti z'Icyongereza avuga ngo Ayizo fondesheni hosipito, hirya hakagaragara ijisho bigaragara yuko ari ibitaro by'amaso.

Inyubako y'ivuriro mo hagati harimo ubusitani bwiza cyane, pasiparumu ndetse n'izindi ndabo. Si ibyo gusa harimo n'igiti kirekire gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu baje kuhivuza. Izi nyubako zubatswe mu buryo bugezweho kandi ni nyinshi. Hakurya hari ikirere gisa ubururu ndetse n'umweru.

Ni inyubako nini cyane mo imbere nk'uko bigaragara, harimo ibishushanyo bitandukanye, harimo ibipirizo by'amabara atandukanye, hagiye hashushanyijemo utubara dutandukanye, hagiye harimo ibikinisho byinshi, bigaragara yuko ari icyumba cyateguriwe abana.

Ni inyubako nziza cyane y'ibitaro. Ubona ko ari icyumba gisa neza cyane, kuko ku gikuta hariho irangi ry'umuhondo, parafo ni umweru ifite n'agateleviziyo kamanitse kuri parafo ariko bigaragara ko gakenerwa. Ndetse harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga nk'intebe ndetse n'ibindi turi kubona hano. Ni byiza cyane rwose bigaragara ko serivise zitangwa zinoze.

Puragirisi farumasi ni farumasi icuruza imiti igiye itandukanye harimo imiti y'umutwe, ibinini by'igifu, imiti yose itandukanye twakwifuza twayisanga hano.

Amarembo y'inyubako y'ikigo nderabuzima, aho bigaragazwa n'icyapa cyanditseho amagambo agira ati: ikigo nderabuzima cya Gisenyi, bigaragara yuko ari ku kigo nderabuzima.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo ibitanda bishasheho amashuka y'umweru, hakaba hagiye hariho imiti ivurishwa abarwayi ndetse hari n'imashini bifashisha mu gihe bari kuba basuzuma. Hejuru harasamweruru harimo amatara ndetse hagiye hari na ekara imbere ya buri gitanda.

Ni abantu batatu barimo baragenda mu muhanda, umwe ari imbere ni umwana usa nkaho akuze ariko atari cyane, afite akabase mu ntoki. Abandi babiri bari inyuma, umubyeyi ari kumwe n'akana gatoya bari gutambuka, mbese inzira bari kugendamo izengurutswe na jaride zisa neza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro. Ifite amabati atukura ndetse iteye amarangi y'umweru ifite amagambo atatu mu nyuguti nini cyane, avuga ngo mu rurimi rw'Icyongereza "Shyira District Hospital" tugenekereje mu Kinyarwanda bivuga ngo ibitaro by'Akarere ka Shyira.

Inyubako yo kwa muganga, ahangaha n’ahatangirwa imiti. Harimo amoko agiye atandukanye y'imiti. Iyi nyubako yubatswe n'inkuta zikomeye cyane, zikaba zisizeho irangi ry'umuhondo, hasi hakaba hari amakaro y'umweru. Sibyo gusa kuko hateretsemo n'intebe bicaraho.

Inyubako y'ivuriro harimo ibitanda bigiye bitandukanye bishasheho amashuka y'umweru, harimo amalido y'ubururu ndetse n'inzitiramibu z'umweru, hagiye harimo ibikoresho bigiye bitandukanye muganga yifashisha mu gihe kuvura abarwayi.

Icyumba cyiza cyane cyo kwa muganga gisize amarangi y'umweru, kirimo akabati hejuru muri parafo hariho itara riri kwaka rifite idirishya bigaragara ko ari ryiza, gifite n'intebe igaragara neza cyane rwose, ni icyumba cyiza kigenewe abarwa...

Ni ibitaro by'akarere ka Nyarugenge. Birasa neza cyane. Uruhande rumwe bifite amarangi y'umweru, urundi harimo amarangi y'ubururu, hirya hubakishije amatafari ya ruriba. Ifite jaride nziza cyane, ifite imbuga ishashemo amapave. Mbese harakeye rwose.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, aha mo imbere turi kubona indi nyubako yubatsemo, iyi nyubako yubatsemo ni aho basuzumira ndetse nk'uko bigaragara iyi nyubako isakaje amabati, ikaba ifite igisenge cy'ibyuma hasi hakaba hari amakara.

Ni icyumba cyiza cyane cy'ibitaro, gisize amarangi y'umweru, uruhande rumwe hari amarangi y'icyatsi, harimo ibitanda bibiri nkuko bigaragara mbese harasa neza cyane rwose, ni ahantu buri wese yakwifuza kwivuriza kubera yuko hari isuku kandi harasa neza.

Turi kwa muganga, harimo imyanya ibiri. Mu gitanda kimwe hariho umurwayi, arimo serumu ndetse aryamye ku gitanda. Ahandi turahabona bomboni ebyiri ndetse ni muganga wunamye, isura ye tutari kubona neza, ariko bigaragara ko ari kwita ku murwayi.

Ni amacupa menshi ya serumu, bamwe mu baganga ndetse n'ibigo byinshi bitandukanye bifashisha kugira ngo tubone uko dufata amaraso, ni byiza gutanga amaraso kugira ngo dutabare imbabare, tubikore tubikunze kandi tubyishimiye.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, irasa neza cyane rwose amarange n'umweru, hasi hari amakaro, parafo n'umweru hagiye hari ibyapa bikuyobora bikwereka aho ugeze ndetse naho ugana mu magambo make kuyoba ntabwo byapfa gushoboka kuki kigero cya mirongo icyenda n'icyenda ku ijana.

Ni ibitaro byiza cyane, ni mu mwanya mwiza, hari vandarateri nini cyane nkuko bigaragara, harasukuye, harasa neza cyane rwose, ni ahantu umuntu wese akwiye kwicara ategerereje serivise mu gihe bakeneye kumwakira, kandi ni ahantu hatatera irungu nubwo nta bantu bagaragaramo, ariko biragaragara ko hasa neza kandi hateye amatsiko.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, hari inkuta zubakishije amatafari arahiye zikaba zisize amarangi y'umweru, hari inkuta ziri hasi, hakaba hari ibimera byiza cyane biri mu mapave mu tuyira ndetse mo imbere harimo amakaro, iyi rero n'inyubako y'ibitaro by'akarere ka nyarugenge.

Umusaza bigaragara yuko ashaje, ari kumwe n'umuforomokazi ukiri muto, akaba yamushyize ikintu gituma umuvuduko w'amaraso ku kuboko. Ari kureba, bakarebana, bose bagaseka. Nk'uko bigaragara, umuganga ndetse n'umurwayi bishimiranye.

Inyubako y'ivuriro, turi kubona inkuta nziza cyane zisize irange ry'umweru, tukabonamo icyuma muganga yifashisha ari gusuzuma abarwayi. Ahangaga rero akuryamisha hano hameze nk'aho ari ku gitanda, maze agahita areba mu mashini akamenya uburwayi ufite.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, mo imbere harimo intebe nziza ndetse n'ameza meza, hakaba harimo indabyo nziza cyane z'icyatsi kibisi, inkuta zirasa umweru, hasi hari amakaro, iyi nyubako yivurizwamo n'abifite kuko ntiwazamo usa nabi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro isize amarange y'umuhondo ndetse hari n'igice cyubakishije amatafari ahiye, hejuru purafo isa umweru ndetse n'umuhondo, inzugi zisa umuhondo ibirahure ni umukara, hari abantu barimo imbere. Iyi nyubako rero yubakiwe abaturage kugira ngo bajye bayivurizamo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro; turi kubona pasiparumu ziteye hafi aho ndetse n'indabo, inzira irimo isima, inyubako ifite irangi ry'umuhondo ndetse igice kinini kigaragaraho amatafari ahiye, hari amagambo yandikishije ibara ry'umukara agira ati "isanzure uganirijwe maze ukire" ikaba ari ishami rya Remera Rukoma.

Inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo buhebuje kandi butangaje, harimo amapoto ariho amatara acana hagati mu ivuriro, harimo ubusitani bwiza cyane bugiye buciyemo ibice ndetse mu tuyira turimo hasashemo amapave, ku mpande hariho akarangi k'umukara ndetse n'umweru.

Ni inzu nziza cyane y'ibitaro ndetse bigaragara yuko harimo intebe abantu bicaramo mu gihe bategereje serivisi, hari amarangi y'umweru, hari igishushanyo k'ijisho bigaragara yuko ari ibitaro bivura amaso.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti. Ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, inkuta zisize irange ry'umuhondo. Imbere yaho haparitse imodoka ntoya y'umukara, y'ivatiri. Muri iyi nyubako rero hejuru hariho icyapa kigaragaza izina ry'iyo foromasi, ndetse bakagaragaza yuko ikorera i Remera.

Ni igikoresho cyifashishwa mu gihe cya siporo, iki gikoresho gikunze kuba kwa muganga, kirimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, giteretse hasi ahantu hasa umweru, kino gikoresho mu gihe ukeneye gukora siporo kugira ngo ugorore umubiri, jya kwa muganga maze bagufashe.

Umusore bigaragara ko yavunitse mu ivi, uyu musore ari kugororwa ivi n'umuganga amukoresha siporo gake gake kugirango barebe ko igufwa risubirana maze uyu musore akongera agashyira akaguru hasi agatambuka.

Uwo mwali wambaye agasengeri gato, afite telefone yazirikiye ku kuboko kwe ku iburyo, ku ku ibumoso yambayeho isaha, akaba afite imisatsi yazirikiye hejuru, yambaye ekuteri y'umweru mu matwi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, mu gitondo cya kare.

Abasore bane bari muri siporo bari kwiruka bigaragara ko bari ku muvuduko uhambaye, dukore siporo ni ingenzi ku mubiri wacu kuko bidufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye zataka umubiri.

Ni umuntu w'igitsina gore, bigaragara yuko ari gukora siporo, yambaye agasengeri kari mubururu bwa bluecieli cyangwa se ubururu bwerurutse, yaduteye umugongo ariko kureba hirya, gusa igikorwa kigaragara ari gukora ni siporo.

Uducupa turimo amoko agiye atandukanye y'imiti, iyi miti yose ikomoka ku bimera cyangwa se ni imiti gakondo, iyi miti barayitegura neza maze bakayifunga mu buryo butandukanye ikagurishwa ku bantu bayikeneye kandi ikabavura.

Umusore wambaye agapira k'umweru ndetse n'agakabutura k'umukara, yambaye inkweto za siporo. Yazamuye ukuguru agutereka ku cyuma, ari kukugorora. Aragorora ukuboko, umugongo, ndetse n'akaguru icyarimwe. Siporo ni ubuzima. Abasore bakwiye kujya bakora siporo.

Aha ni kwa muganga aho bakorera siporo, turi kubonamo umuntu wicaye imbere ya mudasobwa akaba ariko kureba ukuntu ibi bikoresho biteretsemo hano bikoreshwa, ari kubisuzuma kugirango abarwayi nibaza babashe kwivuza.

Umugabo uri muri siporo, arimo aranywa amazi, afite agatambaro mu ijosi, afite ubwanwa ku kananwa ndetse bigaragara yuko ari umuntu wakoze siporo, bitewe nuko afite umubiri ubigaragaza.

Ni umugabo uhagaze ahantu ha wenyine, afite amazi arimo arayanywa, ndetse anamumeneka mu maso, yambaye imyenda ya siporo, ahagaze ahantu heza cyane, aho ureba ikirere ukabona kirasa neza, ukabone kiracye ku buryo butangaje, kandi buryoheye amaso.

N'umusore ufite umubiri mwiza cyane, afite akaboko gashyitse, ndetse biragaragara yuko yakoze siporo, kandi nkuko tubibona aracyayirimo aracyakomeje gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye inkweto za siporo, yambaye ipantaro yitereningi y'umukara ndetse n'agasengeri na kuteri bigaragara yuko akiri muri siporo kandi azikora neza.

Aha hari kubera igikorwa cyo kubaka ahakorerwa siporo, ndetse nk'uko bigaragara hari umuntu uri kubaka n'abandi babiri bari kumuhereza. Siporo ni igikorwa gitegurwa aho bategura aho ikorera maze bakayikora bishimye bakagira ubuzima bwiza.

Umukobwa ufite umubyibuho umeze nk’aho ukabije, yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agapantalo. Yicaye hasi ari muri siporo, imbere ye hari mudasobwa, ndetse hakaba n'utwuma tumufasha gukomeza amaboko, imbere ye hakaba hari agacupa k'amazi. Uyu mukobwa akora siporo kugira ngo umubiri we ukomeze gukomera.

Ni umugabo wateye umugongo amaso yacu, ari ahantu ari gutumbira ahareba cyane ikigaragara kandi afite isaha yambaye ku kaboko y'umukara kandi iyo umwitegereje neza ubona ko ari umuntu wakoze siporo. Siporo ni ingenzi tuzitabire kandi tuzikunde.

Inyubako y'ivuriro by'umwihariko aha n'aho bagororera ingingo ndetse bahakorera siporo ku bantu bavunitse. Harimo abaganga ndetse n'abaforomo bari kwihugura, hari umugabo uri kubereka mu mashini uko ushobora kureba umurwayi warwaye.

Imipira ine y'ubwoko butandukanye, yifashishwa muri siporo ndetse n'ingofero nayo yifashishwa muri siporo, harimo umupira ukinwa n'amaguru, ukinwa n'amaboko bawudunda ndetse n'uw'undi. Iyi yose yifashishwa muri siporo.

Umusore n'inkumi basoje siporo baregamiranye umwe yegamye kuri umwe n'undi yegamye ku wundi, bose bafite amacupa y'amazi bari kuyanywa, iyo isoje siporo uba ukeneye amazi kugira ngo umubiri wawe ukomeze kumererwa neza.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'umukara ari gukora siporo nk'uko bigaragara. Siporo ni nziza ku buzima bwacu idufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye tuyikore kandi tubigire akamenyero.

Umukobwa wagize imvune yo mu ivi bari kugerageza kurigorora gake gake bamwicaje ku gatanda bari kumukoresha siporo, ubwo bagenda bagorora urugingo gake gake kugira ngo agororoke ibi ni muganga wabyigiye ubimukorera maze agakira vuba.

Umusore uri muri siporo afite amaboko manini cyane yambaye agasengero k'icyatsi kibisi, afite gurude y'amazi mu ntoki ari kuyimena mu maso, uyu musore yakoze siporo arananirwa none ari kumvamva akeneye kuruhuka. Siporo ni nziza tujye tuzikora.

Umukobwa uri muri siporo, yambaye imyenda ya siporo yicaye hasi. Imbere ye hateretse ibikoresho bya siporo. Kandi nanone hateretse mudasobwa bigaragara yuko ari gukora siporo areberaho.

Ni imodoka itwara Ambulance imwe bamwe bakunda kwita imbangukiragutabara mu rurimi rw'Ikinyarwanda, bigaragara yuko iri mu muhanda ni muri kaburimbo hafi y'ikorosi.

Umusore uri muri siporo yambaye agasengeri k'umukara yambaye isaha kukuboko akaba ari kugorora ukuguru kwiwe ndetse n'amaboko nk'uko uko bigaragara uyu musore akora siporo azitayeho kuko yamaze gusobanukirwa neza ko siporo ari ubuzima.

Ni umukinnyi w'umupira. Yaryamye mu kibuga, bigaragara ko yagize ikibazo cyo kuvunika. Abaganga babiri bari kumwitaho, abandi bakinnyi bamwe bamuhagaze imbere, abandi bahagaze mu kibuga.

Umukobwa bigaragara yuko ari kunywa amazi mu icupa mbese ni mu gacupa kamazi, kandi yiteze agatambaro mu ijosi bigaragara yuko ari kwirinda imbeho ariko kandi na none ahagaze ahantu heza cyane haryoheye ijisho.

Ikirahure cy'amazi ndetse n'ijagi byose birabonerana, bigaragara yuko umuntu arimo asuka amazi ayakura mu ijage, ayashyira mu kirahure. Kandi kunywa amazi meza, ni byiza ku mubiri wacu bituma tugira ubuzima bwiza, ndetse tukirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umusore uri muri siporo yambaye agapira k'umuhondo, akaba ari kugorora amaboko, amaguru ndetse n'umugongo. Inyuma ye hari indabyo nziza cyane, nk'uko bigaragara ari gukorera siporo ahantu abasha kubona akayaga, kugirango ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Umukobwa wambaye agasengengeri gato cyane k'umweru afite imisatsi myinshi ari kurambura amaboko ndetse n'umugongo yambaye agapantaro k'umukara ari ahantu wagirango ngo ni imbere y'amazi ari gukora siporo kugirango ngo agire ubuzima bwiza.

Umukobwa wakoze siporo yikubita hasi maze avunika mu ive, muganga yamushyireho igipfuko maze nawe arabyuka akicara hasi akagorora gake gake kugira ngo igufwa risubirane maze abashe kongera atambuke.

Ni umugabo ubyibushye. Afite akaboko kanini. Afite mu gatuza hanini, bigaragara ko ameze nk'umuntu wakoze siporo. Yambaye kuteri mu matwi, yashyize icupa ku munwa, ari kunywa amazi meza.

Ni umugore bigaragara y'uko ari muri siporo, arahagaze arimo aranywa amazi, yambaye kuteri z'umweru mu matwi bigaragara y'uko ari kumva indirimbo.

Aka ni akagare bifashisha bari gukora siporo aho ujya inyuma ukagasunika ugenda gake gake ugorora amaguru ndetse n'imbavu, ariko nanone ushobora kukicaramo maze ukagenda uri kugorora umugongo.

Uwo musore wambaye jese y'umuhondo yavunitse ari muri siporo hakaba hari abakorerabushake ba croix rouge bambaye amajire yumutuku bahise bamufata baramwihutana bamuha ubutabazi bw'ibanze bagiye kumugeza kwa muganga maze bamuvure akire .

Bicaye ku buriri. Abo ni umubyeyi umwe n'akana gatoya bigaragara ko kishimye cyane, hirya yaho hari undi utari kugaragara neza, ariko nawe we biragaragara yuko aryamye ku buriri.

Uwo musore wavunikiye muri siporo yicaye ku gatanda kwa muganga aho bavurira abagize imvune, uy'umusore yambaye urukweto rumwe ku kindi kirenge muganga ari kumushyiraho bande amugora gake gake akamukoresha siporo kugirango abashe kongera akandagire

Safeti ini sipoti .Burekisi ,bodi, ruruzi ekipumenti, abiriti hiti safasi. Ni amagambo yanditse mu nyuguti zibyibushye cyane kugira ngo buri wese abashe kuyasoma kandi ayahe agaciro.

Icupa ribamo umuti w'amenyo. Uyu muti ukozwe mu bimera. Aho uwugura warangiza ukawogesha amenyo yawe agasa neza cyane nawe bikakurenga. Uyu muti rero uri mu icupa ry'umweru, hakaba hariho ibara ry'umuhondo ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku. Aho uteretse harasa umukara.

Ikarito iri mu muti uyu muti ni umuti ukomoka ku bimera aho baba bawutunganyije maze bakawufunga neza bawushyira muri aya makarita kugira ngo abawugura uyishimiye kandi bawugure ufunze neza .

Amoko y'ibimera agiye atandukanye ari mu murima, turi kubonamo ibirebire ndetse n'ibigufi bifite amababi y'icyatsi kibisi ay'amababi rero niyo basoroma bakayatunganya neza maze akavamo umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera.

Amoko y'imiti a atandukanye, harimo akoze mu bijumba, hakabamo akoze mu mababi. Aha twavuga nka tangawizi ndetse hari n'izindi mbuto ndetse na tungurusu, tukabona n'ibindi bikoze mu mababi. Iyi miti iravura mujye muyivurisha.

Ni ururabo rwiza cyane ruri mu mabara y'umweru, biragaragara ko ruteye mu ishyamba kandi rwakuze cyane rukagera kure, kandi bimwe mu mababi yabyo byifashishwa mu gukora imiti imwe abaganga bifashisha bavura abarwayi. Ni ingenzi cyane kubyitaho kandi tukabibungabunga.

Ni ibibabi byiza cyane by'icyatsi ndetse n'utubuto twabyo turi mu gacupa, bigaragara nk'aho bwose bikorwamo imiti, kandi hateretse n'utundi ducupa twamaze gukorwamo imiti, ni byiza cyane kandi bidufasha kubaka ubuzima.

Agacupa k'imiti gasa umweru, kariho icyapa cy'ubururu ndetse harimo akabara k'umweru, amagambo akaba yandikishije umweru. Uyu ni umuti ukomoka ku bomera aho bawutunganya maze bakawushyira mu icupa ryiza nk'iringiri.

Agacupa gato cyane k'umweru kometseho icyapa, iki cyapa cyanditseho amagambo agaragaza ko ari umuti gakondo kandi uvura. Uyu muti rero utunganywa mu bimera, maze bagakoramo uwo bifuza bakawufunga mu cyo bashatse.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi giteye ahantu hasi, iki kimera rero nacyo ni kimwe mu bimera bikorwamo imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera aho babitunganya maze bakabikoramo imiti myiza itagira uko isa.

Akayihitageri karimo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera. Iyi miti rero irategurwa neza, maze bamara kuyitegura bakaba bayiha abantu bakayinywa. Iteretse ahantu mu busitani ndetse hari n'umukobwa bigaragara ko ariwe uri kuyicuruza.

Utubido dutatu turimo imiti ikomoka ku bimera, kamwe gasa umweru ndetse n'akandi kakajya kuba umweru ariko ko kijimye akandi gasa umuhondo, hariho imipfundikizo uw'umutuku uwa oranje ndetse n'ubururu, hafi aho hari igikakarubamba bacimbaguye.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye harimo ibirebire ndetse n'ibigufi ibifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'ibifite amababi y'umuhondo ibingibi rero ni bimwe mu biturukamo umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera aho babisarura bakabitunganya neza maze bikavamo umuti uvura.

Amoko y'imiti ikomoka ku bimera afunze mu bintu bigiye bitandukanye, iyi miti rero irakorwa neza cyane bakayitunganya bamara kuyitunganya, ikavura abantu. Hashushanyijeho udukoko ndetse hariho n'ibishushanyo by'igikakarubamba.

Aya ni amoko y'ibimera. Ibi bimera bikaba bikorwamo umuti gakondo, bikaba biteye mu mavaze ateretse hejuru ku dutanda tw'ibyuma, aho ibi byose byifashishwa maze hagategurwa umuti gakondo uvura.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gakondo gifite amababi y'icyatsi kibisi, amwe yagiye atobagurika ariko iki kimera kikaba gikorwamo umuti gakondo. Leta y'u Rwanda ikwiye gukaza ingamba kugira ahari imiti gakondo harindwe neza kuko igira umumaro.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye biri mu murima, ibi bimera rero barabisarura bakabitunganya neza bikavamo umuti uvura, niba nawe ufite ikibazo cy'uburwayi jya ugenda ukore ubushakashatsi usarure ibimera ubitunganye maze ukoremo umuti gakondo wivure.

Umusaza ugaragara nk'ukuze. Ari ahantu mu shyamba mbese hari n'ibihuru byinshi, bigaragara yuko arimo asoroma ku byatsi byabo kandi bigaragara yuko ari ahantu hafatanye cyane ndetse mu ishyamba ry'inzitane, ni ko bamwe bakunze kuhita.

Uducupa dutatu, utu ducupa twose dusa umweru, hakaba hometseho ibyapa bigaragaza amoko uyu muti urimo, icyo uvura ndetse iyi miti yose ikozwe mu bimera ikaba ari imiti gakondo.

Amoko y'imiti agiye atandukanye ateretse mu tuntu tumeze nk'utubase tw'umukara, aho hagiye harimo ibis’umutuku, ibis’umweru ndetse n'ibisa kaki, hari n'ibindi bisa nk'ibiziritseho imishumi. Iyi yose ni imiti gakondo.

Amacupa agiye atandukanye arimo imiti ikomoka ku bimera cg se imiti gakondo, amwe ari mu macupa ya purasitike andi ari mu macupa y'ibirahure yose arafunze, hagiye hometseho ibyapa bigaragaza ibigize uwo muti ndetse n'indwara uvura.

Aha ni aho bacururiza imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera ariko iba yamaze gutunganywa maze iri mu macupa, hari umugabo umeze nkaho ari gushaka kugura, hakaba harimo n'umugore wambaye agatambaro k'umweru n'ibaji mu ijosi uri kuyicuruza.

Amoko y'imiti agiye atandukanye, ateretse ku misambi. Hari ikiganza gifite agahini mu ntoki ndetse n'agasekuru, bakaba bari gusekura imiti ikomoka ku bimera. Iyi miti iravura, kandi ikaba iteguranwe ubuhanga, kuko ntago wapfa kumenya uko bayitegura utabizi.